Icyapa cyangwa igishushanyo kigaragaza ubworozi bw' amatungo akurikira:nka ,inkoko ndetse n' ingurube ,mubworozi bwazo.

Uruhurirane rw'ubwoko bwinshi bw'imodoka butandukanye bigaragara ko hakorerwa imirimo yabugenewe, ikorwa n'abantu bafite imodoka, ku buryo usanga bose batabona aho baziparika.

Ahantu heza habagenewe kandi hafite isuku bigaragara ko hacururizwa ibikoresho binyuranye byo kwambara biririmo myenda amashati, amapantaro ndetse n'inkweto z'ubwoko butandukanye.

Ahantu heza hasukuye kandi ubona ko hitaweho cyane, hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye birimo iby'ubugeni bwa kinyarwanda nk'inkoni ndetse n'ibindi, hariho kandi n'imyenda y'abagore ndetse n'abagabo.

Igishushanyo cyambaye ikoti rijya kuba ubururu ririmo imirongo y'umweru mitoya inyuranyuraniyemo. Munsi yaho harimo ishati ijya kuba ubururu kuburyo ari nziza cyane.

Umugore usa naho yishimye cyane bigaragara ko arimo gucuruza ibintu byinshi cyane, haifi aho hari etajeri imufasha gushyiraho ibyo bicuruzwa bitandukanye.

Umugabo ufite inda nini wambaye agapira gatoya isaha ku kuboko n'agakapu mu ntoki, ipantaro ndetse n'inkweto ari kumwe n'undi ufite urufunguzo mu ntoki n'imodoka imuri inyuma y'umweru n'umukara.

Abantu bahagaze ahantu hirengeye biganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo bitandukanye ndetse na terefone, hari kandi intebe y'umukara n'imodoka iri kugaragaza amashusho iri inyuma.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe bambaye amashati y'amaboko maremare n'amapantaro, bari hafi y'imodoka iri mu mabara ajya kuba ubururu hafi aho hari imbuga nini cyane isukuye.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka, ziri mu amabara y'umweru numukara. Afite igishushanyo cy 'urufunguzo, bigaragara ko yari yatsindiye imodoka.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka, bigaragara ko bari kuyitegereza kugirango bayinjiremo.

Abagabo babiri bambaye imipira yumukara ,bari kumwe numugore bafite igishushanyo cyurufunguzo bigaragara ko bari kwamamaza akagera, nyuma yabo hari imodoka yumweru.

Umuyobozi wicaye mu biro, uri kwakira umuturage. Imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho bimufasha kuzuza inshingano ze za buri munsi adasobwa.

Inoti ebyiri zigaragaza ko ari amafaranga y'u rwanda, zigaragaraho ibirangantego bigera kuri bitatu intare iri kurira , igiti ndetse n'inzu ndangamurage.

Amafaranga y'u Rwanda magana atanu agaragaraho ishusho y'ingagi iri mu ishyamba, ndetse n'abana batatu b'abanyeshuri barimo gusoma igitabo.

Ishusho igaragaza inoti nshyashya y'ibihumbi bitanu y'amafaranga y'u Rwanda. Hariho ibirango byinshi bitandukanye hariho agaseke ndetse n'umwana.

Inoti y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bibiri, hariho ibirangantego byinshi cyane, birimowo agaseke n'umunara muremure ndetse n'igisahane cy'ikoranabuhanga, hafi yayo hari umukono w'umuyobozi mukuru wa banki.

Inoti y'amafaranga igihumbi, cy'u Rwanda. Hariho ibirango byinshi bitandukanye, biriho ingagi iri kurira igiti mu ishyamba. Hari kandi imibare igaragaza icyo ayo mafaranga angana.

Inoti y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu. Bigaragara ko ari aya kera cyane, kuko hagaragaraho ishusho y'umugore uhetse agataro, n'insina ifite igitoki.

Ahantu heza hasukuye hacururizwa ibinyobwa bidasembuye, ibyo birimo amata ndetse n'ibindi, umugabo urimo kubicuruza ubona ko afite umuco kuko atanga ibyo bamusabye.

Ahantu heza hasukuye hari ibikoresho byinshi bitandukanye, bigaragara ko hatunganyirizwa kandi hagacururizwa ibikomoka ku mata kandi bigatanga umusaruro.

Ahantu heza hafite isuku cyane hari ibikoresho byinshi bitandukanye birimo ameza, intebe, ibikoresho bikonjesha ndetse n'ibitunganya umusaruro uva ku mata bikawurinda kwangirika.

Umugabo wambaye umupira wumukara nipantaro ndetse n'inkweto, arikumwe numugore wicaye imbere yakameza. Bari mu ruganda rutunganya ibikomoka ku mata rwa mukayira.

Ahantu heza hasukuye bigaragara ko hitaweho mu buryo butandukanye, hari ibikoresho bikomoka ku Nyange kandi bigaragara ko bisukuwe neza cyane.

Umukobwa mwiza ufite telefone mu ntoki n'inzara zitukura wambaye umupira w'umuhondo bigaragara ko ari kwamamaza umurongo w'itumanaho kugira ngo tubashe kumenya amakuru kuri wo.

amafaranga menshi bigaragara ko arayurwanda ibihumbi bitanu kuri buri noti imwe, ari mukantu gasa ubururu bigaragara ko ariko yabitswemo.

Umusore mwiza wambaye umupira w'umukara urimo gutera ipasi ishati y'umweru ku meza y'ubururu, ndetse inyuma ye hari icyapa cyo kwishyuriraho.

Abakobwa batatu bicaye ahantu hamwe bambaye amashati ndetse n'ikoti, hafi aho hari igitambara cy'umutuku n'irangi ry'icyatsi bigaragara ko bari kujya inama ku byo bakora.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Inzu iri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi n'umweru hariho icyapa cyanditseho gira neza, bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bwo guhinduranya amafaranga cyangwa se kuyahererekanya.

Ahantu heza hasukuye bigaragara ko ari mu ruganiriro harimo intebe z'umweru n'umutuku n'imisego mitoya, hafi yaho hari amadirishya n'ibirahuri bisa umukara.

Ahantu heza hateguye ibikoresho byinshi bitandukanye birimo ameza, intebe z'ubwoko butangaje zirimo imisego, ku buryo uyicayemo atabasha kurambirwa cyangwa ngo yumve umunaniro.

Ahantu heza hasukuye by'intangarugero bigaragara ko hafatirwa amafunguro, harimwo intebe nziza ndetse n'ameza, iruhande hari akabati karimo ibikoresho byifashishwa.

Inzu nziza bigaragara ko ari iyo gukurwamo n'umuryango munini cyane, imbere yaho hari ameza akikijwe n'intebe zisukuye kandi zikoranye ubuhanga bwa kinyamwuga.

Ahantu hateguye neza bigaragara ko ari ahantu bafatira amafunguro, hari ibikoresho byinshi byiza bitandukanye nk'intebe, ameza, ibiryo ndetse n'akabati.

Ahantu heza cyane, hateguye ibintu byinshi bitandukanye, birimo imbuto n'imboga, nk'inanasi, imineke, ndetse na ji.

Ahantu heza hasukuye kandi nyaburanga bigaragara ko ari ahacururizwa ibinyobwa byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuwe hari kandi intebe ndetse n'ingaragazamashusho yifashishwa mu kureba imyidagaduro.

Ahantu heza nyaburanga bigaragara ko hacururizwa ibyo kunywa biri mu bwoko butandukanye ibisembuye n'ibi bidasembuye, hategurirwa ibyo kurya byiza cyane kandi bikaba hari naho warukurikira igihe wumva.

Ahantu heza hatangaje habereye ijisho kandi hasukuye, hari igorofa rirerire ryubakishijwe amatafari ndetse n'ibyuma, ifite igisenge cyiza bigaragara ko kibereye ijisho.

Ahantu nyaburanga hateguwe bigaragara ko ari aho baza kuruhukira mu gihe basoje akazi hateguye ibitanda abantu baryamaho iyo bavuye mu mazi.

Ahantu heza hasukuye, hatangaje, kandi habereye ijisho. Bigaragara ko ari ahantu abantu bakunda gusohokera, bakahaganirira. Hateguye intebe nziza n'ameza, kandi bifite ibara ry'umweru.

Ahantu heza kandi hasukuye bigaragara ko hategurirwa amafunguro y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibyo kunywa biri mu ngeri nyinshi zitandukanye, biragaragara ko ari n'ijoro kuko amatara araka impande zose.

Icyumba giteguye neza bigaragara ko ari ahantu hagiye kubera inama itandukanye, harimo intebe z'umukara n'ameza asukuye, hejuru hari amatara ari kwaka afite urumuri rwiza.

Inzu nziza cyane iri hafi y'ubwogero. Iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane bigaragara ko bwitaweho cyane. Hafi aho hari icyapa kibuza abantu kujya mu mazi batazi koga.

Ahantu heza hateguwe kandi hari amafunguro y'ubwoko bwinshi butandukanye ku buryo uwahageze yizihirwa kandi agataha yishimye kuko ibyo yashakaga byose yabihabonye kandi ku gihe.

Inzu nziza bigaragara ko ari hoteri. Hafi aho hari ubwogero bwiza cyane, buriho udutanda two kuruhukiraho igihe umaze koga.

Ahantu heza kandi nyaburanga bigaragara ko hakorerwa ibitaramo ndetse n'imyidagaduro itandukanye, hari ameza asukuye kandi ariho ibitambararo by'umweru ku buryo uhicaye abona ko hameze neza.

Agace karimo imihanda myinshi itandukanye n'amagorofa maremare cyane yubatse biteye uburanga. Hafi aho hari ubusitani bwiza bwiganjemo ibiti bitanga umuyaga kubantu bari hafi aho ngaho, n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Igorofa rirerire ryubakishije ibirahuri, amakaro, ndetse n'ibyuma. Hafi aho hari ubusitani, burimo umukindo.

Imodoka ebyiri ziri imbere y'igorofa rirerire hafi yaho hari ibiti byubusitani ubona ko bisukuye cyane hari ibyapa bigaragaza imishinga bakora n'abantu bari hafi aho ngaho bari kubyitaho.

Icyumba cyiza gisukuye cyane bigaragara ko kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa ndetse n'ibindi byose yifashisha kugira ngo bikore akazi kayo neza, hari kandi amarangi y'umweru.

Inzu nziza yubakanywe ubuhanga cyane, bigaragara ko uwayiteguye yabyigiye kandi akabihugurirwa igihe kinini cyane, hari kandi ibibuga bikorerwamo imyidagaduro itandukanye.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'imikara ndetse na karuvati, bicaye ku ntebe nziza imbere yabo hari ameza bigaragara ko bari kuganira, bari kwamamaza ibikorwa byabo bitandukanye.

Abantu, imashini, icupa ry'amazi, ameza, intebe, udupfukamunwa, ibitabo, ibiro.

Abantu benshi batandukanye bahagaze ahantu hamwe, kandi ubona ko bari mu kigo k'imari gishinzwe kubitsa no kuzigama no ku kuguzanya.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko ari urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi bari kubaza ibibazo byinshi bitandukanye umuyobozi wicaye imbere yabo, hafi aho hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'ibitabo.

Ahantu hanini cyane bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, harimo: inkweto zo kwambara, imyenda, ndetse n'ibindi bikenewe mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu.

Ahantu heza bigaragara ko bakora ibijyanye n'imitobe, hari ibitoki bihishije cyane bigaragara ko bagiye kubitunganya bikavamo ibindi bintu bikunzwe cyane nk'imitobe ndetse n'inzoga ya kinyarwanda.

Abantu ubona ko bateraniye ahantu hamwe ari benshi cyane ku buryo bigoye no kuba wababara. Hariho imodoka, moto n'ibindi.

Abagore batatu bicaye ahantu hamwe bigaragara ko ari mu isoko, bari gucuruza imbuto n'imboga ziganjemo inyanya, ibitunguru, ndetse n'intoryi, hafi y'aho hari abandi bantu benshi cyane bigaragara ko ari abaguzi bari uza kubahahira.

Umugabo uri gucuruza inyanya, karoti, ibitunguru iruhande rwe hari umugore urimo kumufasha gucuruza.

Isoko bigaragara ko ricururizwamo ibiribwa, nk'inyanya, intoryi n'urusenda. Higanjemo abagore benshi bakora uwo murimo wo gucuruza.

Imodoka nyinshi zikoraniye ahantu hamwe bigaragara ko hari ikintu cyahabaye, hari kandi igorofa rirerire ryubakishijwe amatafari amabuye ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu bwubatsi.

Abantu benshi b'ingeri nyinshi zitandukanye birundiye ahantu hamwe bigaragara ko hari ibirori byahabaye bari kureba kugira ngo bamamarizwe ibijyanye n'ikoranabuhanga, ndetse n'ubundi bugeni bwifashishwa muri ibyo.

Isoko ubona ko ari irya kijyambere, ricururizwamo imbuto ndetse n'imboga. Higanjemo abagore n'abagabo, bakora uwo murimo wo gucuruza izo imbuto n'imboga.

Isoko rinini kandi rigari ryiganjemo igitsina gore nubwo harimo n'abagabo bakeya, ricururizwamo imbuto n'imboga ziganjemo inyanya, urusenda ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ahantu heza kandi hasukuye, bigaragara ko ari mu isoko, hacururizwa imyenda myinshi itandukanye, irimo imipira y'imbeho, amapantaro, amashati ndetse n'ibindi byose.

Inyanya, imboga, imbuto, ibiribwa, abantu, ushinzwe umutekano, abaguzi, abagurisha, isoko, ibyuma.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye nk'inyanya, intoryi, sereri, karoti harimo abagore ndetse n'abagabo bari gukora imirimo itandukanye mu isoko.

Umugore bigaragara ko adakuze cyane. Ahetse umwana mu mugongo, ndetse afite n'igitambararo mu mutwe. Ari hafi y'ubwoko bwinshi bw'imboga zitandukanye, burimo amashu ndetse n'inyanya.

Ahantu heza hasukuye kandi habugenewe bigaragara ko ari mu isoko hakorerwa ibintu kandi bikanacururizwamo mu buryo butandukanye, birimwo ibiseke, inkoni ndetse n'ibikapu.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'imboga buri ahantu hamwe bigaragara ko ari mu isoko, bumwe muri bwo harimo inyanya, intoryi ndetse n'ibindi kandi bisukuye bifite.

Ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye birimo ubudozi ndetse n'ubucuruzi bw'imyenda itandukanye bigaragara ko ari mu isoko. Harimo imyenda itandukanye.

Umugore munini cyane ukuze wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'ishati y'igitenge, ari gucuruza ibintu byinshi bitandukanye mu isoko kandi abizi kuko ari byo bimubeshejeho cyane.

Igice kibarirwamo abantu benshi b'ingeri zose zitandukanye, harimo ibinyabiziga birimo imodoka, amagare ndetse na moto, harimwo abantu bambaye ingofero z'imituku ndetse n'ubururu.

Mu isoko harimo ibintu byinshi bitandukanye: ibitenge, ijipo, imipira,n' amakabutura, n'amabara agiye atandukanye ,hasi hariho utuntu turimo tudoze mu bwoko tugiye dutandukanye, hariho umucyeka urambuye ahantu hejuru.

Inzu nziza iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, bigaragara ko ari iy'itumanaho ryo mu Rwanda kandi ryifashishwa n'abantu benshi.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bigaragaza ko bari kwamamaza tumanaho ryo kugirango tubashe guhana amakuru, hari kandi abagabo babiri bambaye imipira y'umweru bigaragara ko bizihiwe kuko umuziki wabaryoheye.

Umukobwa wambaye ibirahure by'umukara ndetse ufite imisatsi miremire arimo gutanga ikiganiro yamamaza ibyiza byo gukoresha umurongo wa emutiyene.

Umuhanda munini cyane, uri kunyurwamo n'imodoka y'umweru n'umukara, ndetse n'uruhurirane rw'abantu batwaye amamoto. Bambaye amakoti y'umutuku, n'ingofero ziriho ibirahuri ndetse n'ibirango kuri izo nyabiziga.

Urupango rwiza rurimo igorofa nini cyane iteye amarangi meza yubakishijwe ibyuma ndetse n'amatafari bigaragara ko yitaweho cyane ku buryo buhagije.

Ahantu habugenewe heza cyane hasukuye hubakishijwe amakaro ndetse n'amatafari, harimo amazi meza kandi bigaragara ko ari ahantu h'ubwogero.

Inzu nziza ifite igisenge cy'umutuku n'ibirahuri bijya kuba umukara, hafi aho ngaho hari uruzitiro rwayo bigaragara ko ruhenze, ku buryo kurwigondera uri umuntu uciriritse byakugora.

Inzu nziza yubakanwe ubuhanga butagira urugero, ifite amarangi meza asukuye kandi ubona ko yitaweho cyane, imbere yayo hari uruzitiro rw'icyuma kugira ngo hatataza gseserwa n'abajura

Inzu nziza ifite icyumba gisukuye, bigaragara ko ari mu ruganiriro, harimo ibikoresho byinshi binyuranye nk'intebe, ameza ndetse n'ingaragazamashusho imanitse ku kibambasi.

Inzu nziza yubakishijwe amabuye amatafari ibyuma ndetse n'amabati, isize amarangi meza ajya gusa icyatsi ndetse n'umuhondo, hafi yaho hari imbuga nziza ikomeye yubaki iriho sima n'igiti hafi yayo.

Abantu babiri bahagaze hafi y'inzu yubakishijwe amatafari akozwe muri sima hariho igisenge cy'amabati atukura kandi meza.

Inzu iri ku muhanda bigaragara ko aribwo icyuzura, ifite igisenge kiza, ndetse ikaba ifite imiryango myiza ino ibereye ijisho.

Igorofa ryiza cyane ribona ko risukuye, rifite igisenge cy'umutuku, ibirahuri by'umukara ndetse n'inzugi z'ubururu, hafi aho hari ubusitani buhinzemo indabo z'ubwoko butandukanye.

Inzu nziza cyane ifite igisenge gitukura, ndetse n'irangi ry'ubururu, amadirishya, ubusitani bwiganjemo indabo, amapave ndetse n'inzugi.

Inyubako nziza yubakishijwe igisenge cy'umutuku amarange y'umuhondo ndetse n'ubururu hafi aho hari amadirishya atatu meza cyane.

Inzu nziza yubakanye ubuhanga ndetse ifite igisenge kiza n'amadirishya y'umukara y'ijimye, hafi aho ngaho hari imbuga yisanzuye ubona ko yagenewe guparirwamo imodoka.

Inzu nziza igeretse ifite uruzitiro rwiza rwubakishijwe ibyuma, hafi yayo hari ubusitani bwiganjemo imikindo, inyuma yayo hari ibintu byinshi cyane kandi byiza.

Abagore batatu bahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko bari mu bikoresho bikoreshwa mu rugo mu nganda ndetse n'ahandi hose hakenewe byo rugufasha.

Ahantu heza cyane kandi hasukuye, bigaragara ko ari ahakorerwa ubucuruzi bw'ibikapu bitandukanye byo mu bwoko bwinshi, hari kandi abagabo, umwe wambaye akagofero k'umweru n'undi w'ikoti ry'umukara.

Igorofa rirerire cyane bigaragara ko rikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye birimo ubucuruzi bw'imyenda ubw'imbuto ubw'imboga n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo.

Ahantu henshi hari n'abantu batandukanye b'ingeri zose barimo abagore n'abagabo, bigaragara ko ari ahakorerwa ubucuruzi bw'ibibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, hari ibikoresho byo mu rugo n'ibyo mu nzu.

Umugore n'umugabo bicaye mu ntebe z'imikara bigaragara ko bizihiwe bari gukora akazi kabo neza bifashishije mudasobwa ndetse mu gutanga serivisi zitandukanye ku baturage babagana.

Ihahira rigezweho kandi ryemewe na leta y'u Rwanda, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu rugo, harimo ibyo kurya ako kanya ndetse n'ibibanza gutegurwa mu buryo bwo guteka no kubisya.

Igorofa rirerire bigaragara ko rikorerwamo mo ubucuruzi butandukanye burimo bw'ibikoresho byo mu rugo, ibyo mu nzu, ndetse n'ibikoreshwa mu biro bitandukanye, harimo imyenda, ibyo kurya, ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ikote y'umukara ,wambaye ishati ,ari gutangaza uko ikiganiro cy'ejo heza, ariko akaba ari kumwe n'umugore.

Umugabo bigaragara ko ari umuntu ukuze wambaye umupira ujya gusa icyatsi ni'shati yumweru na karuvati ndetse n'ingofero afite igikapu mu ntoki bigaragaza ko ari kwamamaza ejo heza.

Ikariti yubwishingizi mukwivuza iragaragara mwibara ry'ubururu ndetse hariho amagambo avuga ko uyifite atarembera murugo.

Igorofa rirerire cyane ryubakanywe ubuhanga budasanzwe; bigaragara ko uwateguye uwo mushinga ari intiti, kandi bafite ubwenge budasanzwe cyane.

Umwana mutoya wambaye ishati n'ikabutura ijya kuba umuhondo, afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, bigaragara ko yagiye kwa muganga gushaka ubufasha ku burwayi arwaye.

Inzu nziza yubakanye ubuhanga, imbere yayo hicayeho abagore n'abagabo bari mu gacaca k'ubusitani, hafi aho bari guhabwa impapuro bifashisha mu gusubiza ibibazo babajijwe.

Ikarita yabugenewe yifashishwa n'umuturage warwaye igihe cyose agiye kwa muganga, hariho ibirango by'igihugu ndetse n'ahantu wayigeza uramutse wayitoraguye.

Umugabo ufite icyangombwa kigaragaza ko yahawe igihembo cy'amafaranga arenga ibihumbi ijana kuko yakoze inshingano ze neza kandi akabihamirizwa n'amategeko.

Amakarita menshi atandukanye y'ubwishingizi mu kwivuza, bigaragaza ko umuntu wese uyifite atarembera mu rugo. Ariho ibirango bigaragara ko ari iby'Igihugu cy'u Rwanda nkaho bavuga ko iyi karita uyitoraguye wayirangisha.

Igishushanyo kiza cyane kigaragara mu mabara menshi atandukanye, harimo umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, kigizwe n'imirasire y'izuba ndetse n'ijambo ryitwa ejo heza.

Abaturage biganjemo urubyiruko, inkumi n'abasore abakecuru n'abasaza n'abagore n'abagabo, hari kandi ibiti birebire biri hirya yaho ku buryo umwuka mwiza bahumeka ariho uva.

Iguriro rigezweho ririmo ibikoresho byinshi bitandukanye kandi risukuye, harimo ibikoreshwa mu rugo, mu nganda ndetse n'ahandi hose ubona ko ari ngombwa.

Umuhanda munini cyane uri hafi y'igorofa rirerire riri gutambukaho abantu benshi cyane hafi yaryo hari moto zitwawe n'abagabo batatu.

Ahantu heza hasukuye bigaragara ko ari nkubuguriro buteye imbere harimwo ibintu byinshi bitandukanye birimo ji zo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iguriro rigezweho bigaragara ko ririmo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibyo kurya biri mu ngeri zitandukanye, no mu ngano nyinshi, hafi aho hari uburyo wakoresha wishyura.

Umugabo ukuze wambaye ingofero ijya gusa umukara ndetse n'ikoti ry'icyatsi ari mu iguriro ari kureba ibyo akeneye kugira ngo abigure.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari iz'ubucuruzi hafi y'aho hari ubusitani bwiganjemo imikindo idufasha kuyungurura umwuka duhumeka, hafi aho hari imodoka zihagaze ahantu habugenewe.

Ubuguriro bwiza burimo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo ndetse n'ibikoreshwa mu nganda, hafi aho ngaho hari abagabo babiri bigaragara ko bizihiwe, umwe ari kumufotora kugira ngo azagaragaze ibyo akora.

Ahantu heza cyane bigaragara ko ari mu iguriro riteye imbere harimo ibikoresho byinshi cyane bitondetse neza kandi bifite ubwiza bishamaje, hafi aho hari etajeri zifashishwa mu kubibika neza.